Uburyo bwo kwamamaza hakoreshejwe ibyapa binini cyane bigaragara ku muhanda cyangwa se hirya y'inyubako ahagenda umubare munini w'abantu binyuze mu kumenyekanisha ibikorwa byabo babishyira kuri binino byapa bigaragara ku nzira cyangwa se hirya y'amazu .

''Radiant'', ni ikigo kimaze imyaka myinshi mu Rwanda gitanga serivisi z'ubwishingizi ku buzima bw'abantu bwa buri munsi; aho batanga serivisi zo kwishingira umuryango ugize ikibazo ukaba wagobokwa n'ubwishingizi watanze muri Radiant, aho bakubwira gukanda akanyenyeri, gatanu, gatatu,,rimwe, urwego ugakurikiza amabwiriza,

Ngira ngo mwese iyi foto murayibona, aho umuganga ari kumwe n'umurwayi, ariko iyi shusho ikaba ifite ubutumwa bugira buti "si ngombwa gutegereza ko ujyanwa mu bitaro, mu gihe urwaye kugira ngo ubone kugura ubwishingizi bwo kwivuza". Ubu butumwa ni ubwa radiyanti.

Ubwishingizi iyo tuvuze ubwishingizi nibiza mu matwi ya benshi bivuze ko ushobora kwishingira umuryango wawe harimo abana harimo umugore ndetse n'abavandimwe ndetse ukaba wakishingira n'ibindi bikoresho bitandukanye ukoresha m' ubuzima bwa buri munsi harimo nk'imitungo ukaba wakishingira nk'inzu imodoka ndetse n'ibindi.

Kwiyitaho ni ibintu bikwiye mu buzima bwa buri munsi ndetse tugafata n'umwanya wo kuruhuka aho mu buzima busanzwe dukore akazi kacu ka buri munsi ariko ugasanga kubona umwanya wo kuruhuka gushyira ubwenge ku gihe ndetse n'umubiri wacu ubasha kunanirwa kubera kutabona umwanya wo kuruhuka uyu munsi reka tuwuharire kuruhuka.

ikigo cy'ubwishingizi gikorera mu Rwanda kizwi ku izina rya biritamu, kishingira ibi bikurikira, wabasha kuba wakishingira ubwishingizi bwa moto mu gihe moto yawe yagize ikibazo, ndetse n'inzu yawe igihe ifashwe n'inkongi y'umuriro, ndetse bishingira n'igihe umuntu abaye yakoze impanuka babasha kuba bakwishingira.

Umuryango mugari ukoresha ubwishingizi bwa radiyanti. Ni ikigo gikorera mu Rwanda cy'ubwishingizi buri mutura Rwanda wese ashishikarizwa kuba yajyamo, uburyo bwo kuba yakishingira umuryango we, cyangwa se ibicuruzwa bye, ndetse n'ibindi bitandukanye bakaba bakwishingira mu gihe uhuye n'ibyago.

Urubuga ushobora kuba watunga muri telefone yawe ukarwimeza, ndetse n' urubuga rukorana na banki ruranako ushobora kwishyura bitandukanye ukoresheje uru rubuga ru kubyorohereza buri muturarwanda wese cyangwa se buri muturage wese ubasha kuba ari mu rugo akaba yakwishyura ku mabanki yaguza amabanki yibereye mu rugo akoresheje uru rubuga.

iyi ni application cyangwa se urubuga bashinze rwereka umuturarwanda wese cyangwa se undi muntu wese, uburyo amafaranga yinjiye cyangwa se yasohotse. Ndetse n'amafaranga asigayeho, bakakwereka urutonde rwose rw'uburyo ayo mafaranga yose.

Iguriro ryiza riyima imyambaro y'abagore, ndetse n'indi myambaro myiza itandukanye, urabona ko abakiriya barishimye ndetse n'abacuruzi bose barimo baragurirana, urabona ko harimo imyenda myinshi cyane y'amoko meza. Umuntu uwo ari we wese ingeri zose akaba yaza kwigurira imyenda myiza cyane irimo iy'abagore.

Ngira ngo hano murabona neza ko ari ishusho ya yacu igaragara nk'aho ari mu mangazini cyangwa icyo twakwita nko mangazini acuruza imyenda urabona ko ari ifoto yafashwe mu buryo bwa sikirinishuti igaragaza imikorere y'abo bacururizi, imyambaro bacuruza ubwoko butandukanye ngira ngo murabibona namwe amaso ara,,

Inyubako nziza, inyubako ikorerwamo ibikorwa byo kugurisha imyenda, amasakoshi ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, ubona ko ni ibikoresho byiza cyane birimo imyenda yo kwambara y'abagore ndetse n'indi myenda itandukanye, iri mu mabara atandukanye, ubonako ari imyenda myiza cyane igezweho.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'inkweto urabona ko n'inyubako yuzuyemo amoko menshi y'inkweto harimo inkweto zifunguye harimo inkweto zifunze, urabona ko buri munyarwanda wese yakisanga muriyi nyubako akaba yabasha kuba yagura munkweto.

Akagera moto ni uruganda rukorera mu Rwanda, rumaze imyaka myinshi rutanga serivisi zo gukora imodoka ndetse no kugurisha imodoka nshyashya cyane zivuye muri uru ruganda z'amoko menshi, aho uru ruganda rukorera Karoruma.

Akagera bizinesi gurupe urabona ko ari umukiliya wari uvuye kugura imodoka nziza cyane mu Kagera aho yahawe ikirangantego cy'urufunguzo kigaragaza nkaho imodoka yabaye iye rwose, urabona ko ashyikirizwa ibihembo bigiye bitandukanye harimo n'akamverope keza.

Imodoka nziza imodoka ndende zizwiho gutwara umubare munini w'abagenzi ndetse mu gihe gitoya, urabona ko n'imodoka nziza zikiri nshyashya, zanditseho Volcano, ni kampani itwara abantu mu Rwanda, ubona ko ni imodoka nziza zikiri nshyashya zisa naho zaguzwe n'iyi kampani, zitegura kujya gukora imirimo yazo yo gutwara abagenzi ku mihanda ndetse zibajyana mu ntara ndetse n'ahandi hatandukanye.

Imodoka nziza cyane, imodoka iteye amabengeza yo mu bwoko bwa yundayi sonata ikoreshwa amashanyarazi ndetse ubona ko ni imodoka yubakitse mu buryo bugezweho ihendutse. Igiciro cyayo akaba ari miliyoni umunani, akaba ari imodoka wasanga mu Rwanda ndetse n'ahandi hose kuba ubaye uyishaka, urabona ko ni imodoka ihendutse.

Imoodoka nziza cyane imodoka mu bwoko bugezweho urabonana ko ni imodokadoka igurishwa imodoka iteye neza cyane imodoka zigezweho imodoka zidakangwa ivumbi cyangwa se' imvura cyangwa se n'izuba urabona ko n'imodoka zigezweho buri muturarwanda wese yabasha kugura ku mafaranga makeya cyane.

Amafaranga ibihumbi bibiri, ni amafaranga akoreshwa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse akaba yaremejwe na banki nkuru y'isi ndetse akaba arifaranga akoreshwa hagati mu baturage mu buryo butandukanye, ndetse bagura ndetse banagurisha, akaba ari amafaranga yemejwe n'igihugu cya banki nkuru y'isi.

Umubare munini w'amafaranga urabona ko imbere hariho icyuma kibara umubare munini w'amafaranga utabasha kubarwa na muntu kuko byamutwara igihe kinini cyane ndetse aka kamashini kakaba koroshya mu buryo bwo kubara amafaranga menshi cyane kandi mu minota mikeya mu gihe umukiriya yabasha kuba azanye amafaranga menshi cyangwa se ashaka umubare munini w'amafaranga bakifashisha iyi mashini.

Ni amafaranga ibihumbi bibiri akoreshwa hagati mu gihugu cy'u Rwanda, aho aya mafaranga akoreshwa mu bucuruzi butandukanye cyangwa se mu ihererekanya, urabona ko ni amafaranga yakozwe mu buryo bwiza bw'inoti ndetse akaba ariho n'ikirango k'igihugu cya gaseke ndetse n'ibindi bitandukanye, harimo nk'ikiyaga ndetse n'ibindi.

Dahabshiil ni ikigo wakoresha mu buryo bwo koherereza amafaranga umuntu uri mu bihugu bitandukanye, ndetse wakohereza amafaranga ku mukunzi wawe, ku muryango, ndetse no ku nshuti mu buryo dahabshiil yatuzaniye wakoresha wibereye iwawe.

Inzu nziza cyane yubatswe n'amakaro ndetse isa neza cyane bigaragarira amaso ubona ko ko ahantu bacururiza amata hari isuku. Hirya murahabona icyuma kizwi nk'ikaragiro kizwi kuba kibika amata akaba yarinda ko amata yapfa cyangwa se yakangirika ku buryo umuturage wese ushatse kuzagura amata yayagurira ku gihe ndetse agifite ubuziranenge.

Inyange aho usanga amata agifitiye umwimerere kuko baba bafite icyuma gitunganya amata, amata usanga atapfuye buri muturage wese akaba yaza akiyicarira akaba yanywa ku mata meza cyane agifite umwimerere rwose, bacuruzamo n'ibindi bitandukanye.

Amata amata meza avuye ku ruganda bunyitswe ahabugenewe aho ari amata akoreshwa mu buzima bwa buri munsi bijyanye n'ubuzima bwa muntu akenera mu buryo bwo kubaka umubiri murabona ko neza rwose imbere hari umukozi uri mu myambaro y'ubururu aho arimo atunganya aya mata ngo agere ku bakiriya ameze neza.

Utujerekani twanditseho amazina atandukanye ndetse n'igicuba kiri hirya yacuwo urabona ko bisa naho hari abaturage baje kwitwarira amata yo kunywa urabona ko buri wese aba afite akajerikani kandi kanditseho izina rye urabonako baje ku ikusanyirizo ry'amata buri muturage wese yaje gufata amata ayashyira umuryango we.

Ibicuba, ibi n' ibikoresho bikoreshwa mu Rwanda bizwiho kubika amata menshi cyane, mu buryo bwo kuba bayagemura ku ikusanyirizo n'ahandi. Bikaba ari ibikoresho bibika amata, bikaba biyarinda kwandura cyangwa se n'izindi ndwara zakwirakwizwa mu mata.

Ikusanyirizo ry'amata cyangwa se ikaragiro ry'amata; aho aba badufasha mu kuba twabona amata binyuze mu kuba bayatunganya ndetse buri muturage wese ubashije kuhagera afite inyota akaba yakicaramo urabona ko mbere hari intebe akaba yanywa amata agashira inyota

Umuturage waje gufata icyo kunywa, harimo amata ndetse n'ibindi bitandukanye byo kurya, urabona ko yaje ahabugenewe, hari icyuma gitunganya amata, bakaba baguha amata meza cyane, agifite umwimerere kandi atunganyijwe neza cyane.

Ngirango iyi shusho mubona hano imbere ni ishusho ya kampani ya emutiyeni aho bishoboka ko yari umukiriya wari ubikije amafaranga ibihumbi magana atanu, ndetse akaba yari akoresheje serivisi za emutiyeni mu buryo bwo kugira ngo abitse amafaranga ye kuri banki.

Urutonde rurerure rugaragaraho uko amafaranga yagiye yishyurwa n'ibigo bitandukanye ikigo ki buri kigo kigenda cyishyura amafaranga kujya kicgurisha ahantu twarebamo apeticaji yishyuwe amafaranga runaka mtn kosh yisuwe amafaranga runaka peti ksh yasohoye amafaranga runaka urabona kontu urutondegiye rutandukanye.

Iyi ni inyemezabwishyu itangwa n'ikigo cya rwanda reveni otoriti; ikora mu bijyanye n'imisoro no kureba uko ibicuruzwa byagiye bisora; urabona ko ni urutonde runini cyane rurimo amafaranga yishyuwe ndetse n'ibihano bagiye bahabwa bamwe na bamwe

Inote y'amafaranga magana atanu akoreshwa mu gihugu cya Tanzania aho aya mafaranga akoreshwa mu bijyanye n'ubucuruzi ndetse n'ibindi bitandukanye, urabona ko ni amafaranga akozwe mu buryo bw'inoti aho umucuruzi uguze cyangwa se atanze ikintu cye mukoresha ano mafaranga mu buryo bwo kwishyura.

Aya ni amafaranga mirongo itanu akozwe mu buryo bw'inote, akoreshwa mu gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya congo, aho rwose abacuruzi ndetse n'abaguzi bayakoresha mu buryo bugiye butandukanye, buri munsi ku bijyanye no guhaha cyangwa se ubucuruzi bwambukiranya imipaka.

Amafaranga y'ibihugu bitandukanye ari mu mabara atandukanye urabona ko hasi hari inoti y'igihumbi ndetse hari niya magana atanu n'ibihumbi bitanu ndetse hari indi ya magana atanu indi yijana urabonako ari amafaranga atandukanye akoreshwa mu bihugu bitandukanye mu buryo bw'intoki wishyura mu ntoki cyangwa se n'izindi serivisi wakoresha ukoresheje n'amafaranga .

Ibiceri by'amoko yose mu Rwanda ibiceri by'ijana, ibiceri bya senkani, ibiceri bya veni n'ibiceri bikoreshwa mu Rwanda bijyanye n'ubucuruzi ndetse waba uri kwishyura cyangwa se uri kwishyurwa ni ibiceri byemewe mu Rwanda bijyanye n'ubucuruzi bwose wakwishyura ukoresheje ibi biceri byose b'ubwoko bwose.

Amafaranga akozwe mu buryo bw'inote yanditseho icumi ivuze ko ni mafaranga akoreshwa mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akoreshwa n'abaturage ndetse n'igihugu mu buryo bw'ubucuruzi ndetse no mu bindi bikorwa runaka byo kwishyura serivisi zitandukanye.

Ikigo gikorera mu Rwanda ndetse ikigo kizwi cya dahabshiili kizwiho gutanga amafaranga mu Bihugu bitandukanye, cyangwa kohereza amafaranga ku muntu uri mu Bihugu bigiye bitandukanye, ndetse no mu buryo bwo ku kuvunjisha amafaranga baba baguhaye mu mafaranga atari amanyarwanda bakaba bakuvunjira mu mafaranga wumva ushaka.

Inzu zikorerwamo ibikorwa byo kuvunjisha amafaranga, aho ubona ko handitse Bukavu-Kigali-Kampala, ni inzu ishobora kuvunja amafaranga akoreshwa mu gihugu cya Congo ndetse n'amafaranga akoreshwa mu gihugu cy'Ubugande aho uyazana bakakuvunjira...

Ngira ngo ishusho mubona imbere, ni ishusho igaragaramo umukozi uri gukora akazi k'ivunjisha, ndetse avunjisha amafaranga y'amanyamahanga ayashyira mu manyarwanda, ndetse akaba yanabikura amafaranga y'amanyarwanda n'andi mafaranga atandukanye.

Inzu ikorerwamo ivunjisha ry'amafaranga atandukanye, aho uzana amafaranga y'amanyamahanga, bakakuvunjira bakaguha amafaranga akoreshwa bitewe n'igihugu urimo, amoko y'amafaranga menshi yo mu bihugu bitandukanye bakaba bayavunja.

ngira ngo iyi shusho iri hano imbere ni igikoresho gikozwe mu buryo bwiza cyane gikoreshwa mu ma hoteli ndetse n'ahadi hantu hagiye hatandukanye ,murabona ko ari igikoresho gisa neza cyane cyagenewe gushirwa mu nzu, ubukarabiromo bw'umuntu wese uvuye kurya cyangwa se avuye ahandi runaka bisa nk'aho akeneye kuba yakaraba mu ntoki.

Ibikoresho byiza byo mu nzu harimo intebe, ameza ndetse n'udutebe dutoya, urabona ko ari ibikoresho byiza cyane ushobora guhaha ukaba wajyana iwawe mu nzu bisa neza bigaragara neza cyane. Urabona ko ari ibintu biryoheye ijisho.

Abamotari mu kazi kabo ka buri munsi aho bazwiho gutwara ibintu n'abantu, urabona ko bari mu muhanda mwiza cyane w'amabuye, ndetse urahabona n'inyubako zitandukanye ndetse n'ibicuruzwa bitandukanye birimo nk'amatora bigurishwa, intebe ndetse n'ibindi. Urabona ko n'abagenzi barimo bajya mu kazi kabo ka buri munsi.

Hoteri nziza, hoteri irimo buri kimwe, ndetse ni hoteri yubatswe mu buryo bugezweho, imitaka myiza cyane, garden nziza cyane, hoteri iteye amarangi meza cyane, urabona ko ba mukerarugendo, uwo ari we wese, yaza hano rwose, yitaye ku byo ahabona, birimo isuku, ibikoresho, ndetse ho kurara, n'amacumbi meza cyane.

Hoteri nziza cyane, hotel yubatswe muburyo bugezweho, amazu meza cyane ndetse na amapisine, urabona ko ubwicaro bwiza intebe nziza cyane, aho kuruhukira, hotel buri umunyarwanda wese cyangwa se umunyamahanga yakwisangamo, ubonako ni hotel yujuje ibisabwa jaride nziza cyane.

Inzu nziza ya hotel, igaragara neza cyane, ifite isuku, ifite pisine aho bogera, ndetse ifite n'aho kwicara, urabona ko ni inzu nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, mu ibara ry'umuhondo urabona ko ninzu ifite isuku.

Hotel yubatse mu buryo bwiza ndetse mu buryo bugezweho, hotel ifite isuku iganwa na ba mukerarugendo, cyangwa se abandi banyamahanga bayigana baje mu buryo bwo gucumbika. Urabona ko ni hotel nziza cyane iteye amabengeza mu mabara meza cyane.

Hoteri nziza cyane, hoteri iteye amabengeza, hoteri ifite isuku, hoteri ifite ibikoresho bigezweho, urabona ko ni hoteri iri ahantu hitegeye, urabona imisozi, urabona ikirere cyiza cyane, urabona ko ni ibintu biryoheye ijisho rwose ku muntu wese wifuza kuba yaza gusura iyi hoteri, ni ahantu heza cyane hari amahumbezi, ubona ko hari n'isuku cyane.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bwa hoteri, yakira abantu bose baje bayigana, urabona ko ahantu hafite isuku ndetse urabona ko ni mu ijoro, haracanye wagira ngo ni kumanywa, ibikorwa remezo, amatara, imihanda myiza cyane, urabona ko umuntu wese ubashije kuba yahagera ntiyabasha gutandukanya ijoro n'amanywa, urabona ko ni ahantu hakeye hafite isuku nziza cyane.

Ngira ngo ishusho yacu murebe hano imbere, ni ishusho igaragaramo abantu benshi. Ndetse bafite utuntu imbere yabo, turimo nk'indobo iteretseho ibintu bigaragara nkaho ari inguzanyo bari bahawe yo kuba bakoresha, mu uburyo bwo kwiteza imbere no kuzamura imiryango yabo, kugirango ngo babone ko ari imiryango isa naho ikennye.

Ngira ngo ishusho mubona cyangwa se ikirangantego mubona ni icya banki ikorera mu Rwanda bita ayemu banki. Ni banki ikorera mu Rwanda ikaba izwiho gukorana n'abaturage cyane bagirana n'imikoranire myiza mu bijyanye na serivisi z'amafaranga wowe uje ushaka amafaranga nk'inguzanyo.

Ikigo cy'imari ikigo gikorera mu rwanda kizwi izina rya equiti gikorera mu rwanda kiguriza abaturage ndetse banabitsaho banabikuza iki ni ikigo gitanga inguzanyo nziza ishimishije ndetse ku rwego rwo hejuru ishobora kuba yakwishyurwa mu gihe gito kandi mu gihe cyiza cyane ko ni ikigo gifite uburambe mu rwanda kimajije gutanga serivisi ndetse no gufasha abaturage bo mu rugufu.

Umuturage waje gufata inguzanyo mu rwego rwo kwiteza imbere yahawe serivisi nziza urabona ko arimo asinya bigaragara nk'aho igikorwa yaje aje gusaba cyangwa se serivisi yaje aje kwaka asa nkaho bayimwemereye barimo baranabara n'amafaranga yaje ashaka.

isoko rikorerwamo ubucuruzi bw'inkweto inkweto zimanitse hejuru ubwoko butandukanye inkweto zabagabo nizo ziganje mu nkweto tureba ndetse hakaba hari abakiriya imbere yacu harimo n'aba agent bakora serivisi zo kubitsa no kubikura. Isoko rikorerwamo ubucuruzi bw'inkweto, inkweto zimanitse hejuru, ubwoko butandukanye. Inkweto zabagabo nizo ziganje mu nkweto tureba, ndetse hakaba hari abakiriya imbere yacu, harimo n'aba ajenti bakora serivisi zo kubitsa no kubikura.

Isoko isoko ryiza cyane. Isoko ririmo imyambaro myiza cyane, ndetse n'ibindi bicuruzwa bigendanye n'imyambarire, ndetse urabona ko ni isoko ryagutse, urabona ko imyenda y'amabara atandukanye, ndetse urabona ko n'abacuruzi bicaye bategereje abakiriya ahantu hafite isuku imyambaro myiza cyane baza nawe ukihara.

Inzu zitandukanye zikoreramo ibijyanye no guhaha ndetse no kurangura, murabona ko harimo ibintu byishi cyane, harimo nka umuceri, akawunga, harimo nibindi bigiye bitandukanye, ubasha kuba yarangura akaba yaza agafata ibicuruzwa bye.

Inzu ntoya, inzu ikorerwamo serivisi zitandukanye za MTN haba harimo serivisi zo kubitsa, kubikura kohereza ndetse no kwakira amafaranga n'izindi serivisi zitandukanye aho iyi nzu ishyirwaho mu rwego rwo kugabanya abaturage bajya ku cyicaro gikuru bashaka serivisi aho aba bantu bakorera muri iyi nzu batanga izo serivisi.

Uburyo bwo kwishyura dukoresheje mobayiro mani (mobile money )ni zimwe muri serivisi y'ishami rikorera mu Rwanda rya emutiyeni (MTN) ritanga ku bafatabuguzi babo cyangwa se ku bakiriya babo bakoresha serivisi zitandukanye za buri munsi za emutiyeni ( MTN). Aho ushobora kubasha kwishyura igicuruzwa wafashe ukaba wakishyura kuri kode.

Ngira ngo iyi shusho yacu mubona ni akazu gatoya kanditseho emutiyeni ndetse hanze hari n'abakiriya baje gushaka serivisi zitandukanye harimo izo kubitsa, kubikura, kwakira ndetse no kohereza n'izindi serivisi zitandukanye ukoramo hano akaba ahagarariye icyicaro gikuru cya mp mu buryo bwo gutanga serivisi ku baturage aho bari hose.

Ikigo kizwiho gukoresha ikoranabuhanga muburyo bwo gusangiza ibyo kurya cyangwa se ibikoresho runaka ku baturage aho bari mu ngo zabo, ni ikigo cyangwa se kampani bita vuba vuba, ikora muburyo bwa onolayini cyangwa se bw'ikoranabuhanga, bakakugezaho igicuruza cyawe cyangwa se igikoresho cyangwa ibyo kurya ubashije kuba wibereye iwawe utavuye aho uri.

Urubuga rwiza cyane rukoreshwa ndetse rumenyereweho guhaherwaho ibicuruzwa bitandukanye ndetse n'ibikoresho bitandukanye, urabona ko ni urubuga wifashisha ndetse mudasobwa cyangwa se telefoni yawe, ukaba wakanda ukandikamo urubuga rwabo ugatumiza ibicuruzwa bigiye bitandukanye mu buryo bwo koroshya ndetse no koroshya imigenderanire hagati y'umuturage atakakaza umwanya ujya guhaha bakabikuzanira wibereye iwawe utahavuye.

Aya matara tubona ku muhanda ni afasha abanyamaguru kumenya igihe gikwiye cyo kwambuka bigatuma n'abatwaye ibinyabiziga bahagarara, bakareka abantu bakabanza bagatambuka nabo bakabona kugenda, ndetse akaba ari uburyo bwo kwirinda akavuyo n'impanuka zo mu muhanda.

Ngira ngo iyi ishusho mubona murabona ko ari umumotari ufite akantu ahetse inyuma kandiditseho rashifudu. Ni uburyo bakoresha basangiza ibyo kurya cyangwa se ibyo kunywa, umucuruzi cyangwa se umukiliya wibereye iwe mu rugo bidasabye ko ava iwe, agahamagara ba nyiri urubuga bakamwakira.

Ngira ngo ishusho mubona hano imbere igaragaza uburyo bwo guhaha binyuze kuri murandasi cyangwa se guhaha hifashishijwe ikoranabuhanga, aho ushobora gutumiza igikoresho mu mahanga utavuye iwawe, ukagihabwa wicaye mu rugo rwawe rwose.

Uburyo bwo guhaha hakoresheje ikoranabuhanga ushobora guhaha igicuruzwa ukoresheje imbuga nkoranyambaga zirimo nka Google, Facebook, ndetse n'ibindi urabona ku rubuga rutanga buri kimwe cyangwa se serivisi zo kugeza ibicuruzwa kuri buri muturage usuye uru rubuga.

Isoko rizwiho gukora mu buryo bw'ikoranabuhanga bashobora kugura ibicuruzwa mu buryo bugiye butandukanye harimo ibikoresho byo mu nzu ndetse n'ibindi bikoresho, aho ukoresha uru rubuga ukaba wabigura mu buryo bwo kubigura mu bihugu byo hanze mu bihugu bigiye bitandukanye bakakuzanira ibikoresho byawe cyangwa se ibicuruzwa bindi bitandukanye mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Inzu nziza cyane irimo pisine ku muntu wese ushaka kuba yaruhuka, inshuti umuryango abavandimwe uraza ukishyura ukaba waza ukaruhukiramo hano. Mukoga mukisanzura ndetse mukaba mwashyi n'ubwenge ku gihe wowe n'umuryango wawe awuheje.

Inyubako ikodeshwa ujyamo uhasangamo ibikoresho bitandukanye, ndetse uza usangamo ibikoresho byose by'ubwoko butandukanye urabona ko hari amafirigo, hari intebe ,hari amatapi ,hari amarido ndetse hari n'utubati urabona ko ni ibintu byiza cyane ushaka iyi nzu kuba yazakodesha asangamo buri kimwe cyose.

Inzu nziza, inzu yubatswe mu buryo bwiza cyane, amarangi meza, porutaye nziza cyane, urabona ko ni inzu yubatswe mu buryo bugezweho; ni inzu ikodeshwa amafaranga asaga igihumbi n'ijana "amadolari" ku kwezi, aho ari inzu iherereye mu mujyi wa Kigali.

Inzu nziza cyane inzu zubatse mu buryo bwiza jaride nziza cyane, inzu ziteye amarangi meza cyane, urabona ko ni inzu zikodeshwa amafaranga asaga ibihumbi magana inani ku kwezi urabona ko ni inzu zubatse mu mujyi wa Kigali nziza cyane rwose zigeretse kandi ni ibyumba ubona bishimishije.

Inzu nziza cyane, inzu yubatswe mu buryo bugezweho, jaride nziza cyane, amarangi meza, amabati meza agezweho, urabona ko ni inzu ikodeshwa amafaranga asaga amadolari igihumbi na magana abiri ku kwezi, ni inzu iherereye Kigali ikaba ikodeshwa.

Uburiri bwiza ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye aho usangamo muri iyi nzu, ikaba ari inzu iherereye Kibagabaga mu mujyi wa Kigali, aho ari inzu yishyurwa ibihumbi ijana na mirongo itatu na bitanu ku kwezi, ikaba ari inzu isangwamo buri gikoresho cyose.

Inyubako nziza, inyubako yubatswe mu buryo bugezweho, inyubako ikodeshwa iherereye mu mujyi wa Kigali, ifite muri i Remera urabonako ni inyubako usangamo ibikoresho bigiye bitandukanye ndetse ibikoresho buri kimwe ugisangamo. Ikaba yishyurwa ibihumbi magana atandatu ku kwezi.

Inyubako nziza, inyubako yubatswe mu buryo bugezweho. Urabona ko inyubako rwoseye iteye amabengeza. Inyubako ikodeshwa ifite ibyumba bitatu byo kuraramo ndetse n'ubwogero butatu na konti y'inzu iherereye i kabeza aho mu mugi wa Kigali aho inzu ikodeshwa amafaranga atari menshi cyane ubonakuntu ni inzu nziza cyane.

Girango ishusho mureba hano imbere ni shusho igaragaza inzu ikodeshwa, iherereye i kanombe ndetse ikaba ikodeshwa ibihumbi magana ane ku kwezi. Ikabaye ifite ibyumba bitatu byo kuraramo ndetse n'ibyumba bibiri byo kongeramo. Urumva ko ari inzu nziza cyane yubatse neza cyane.

Inzu nziza cyane ni inzu ikodeshwa, inzu iherereye ahantu heza cyane umuhanda mwiza jaride nziza cyane ni inzu iherereye Kigali Kabeza, akaba ari inzu ikodeshwa ifite ibyumba bitatu ndetse n'ibindi byumba bitatu byo kogeramo, ikaba ari inzu ikodeshwa ibihumbi magana atanu ku kwezi urabona ko ni inzu nziza cyane.

Inyubako nziza cyane, inzu iteye amabengeza igipangu cyiza, mu makaro meza cyane, ndetse urabona ko n'inzu ikodeshwa iherereye i Kigali, Kimironko. Ni inzu ikodeshwa ifite isuku nziza cyane.

Inzu nziza cyane inzu zubatswe mu buryo bugezweho, imihanda myiza cyane ibipangu byiza cyane urabona ko ni inzu zikodeshwa zubatswe mu buryo bugezweho, amafaranga akodeshaga izi nzu akaba ari ibihumbi magana atandatu babona ko ni inzu nziza cyane kuri buri mukiriya wese, ubasha kuba yashakira izi inzu aho yaza akazireba zubatse neza cyane.

Ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubwubatsi, kizwiho gukora inzu nziza cyane cyangwa se kubaka inzu nziza cyane, ndetse kikanakora ibijyanye no gushushanya izo nzu mbere y'uko zubakwa, ni ikigo gikorera mu Rwanda, ndetse gifite ubwishingizi, ndetse kikaba gikorera ahantu hazwi cyane.

Inzu nziza cyane inzu iri ku muhanda iteye neza igipangu cyiza, amarangi meza, inzu yubatswe ku buryo bugezweho n'inzu ikodeshwa amafaranga ahasaga ibihumbi icumi na bibiri by'amadolari, akaba ari inzu iherereye hano Kigali Kigarama.

Inzu nziza cyane ifite ibyumba bitatu byo kuraramo, ibyumba bitatu byo gukarabiramo, icyumba cyo gutekeramo ndetse n'icyumba cy'uruganiriro, urabona ko ari inzu nziza cyane yubatse neza mu buryo bwiza kandi bugezweho, umukiliya wese aba yahagera akaba yashima.

Iduka rishobora kuguriramo ibikoresho bitandukanye, birimo bigiye bitandukanye ibyo mu nzu, byo gukoresha mu buzima busanzwe bya buri munsi, ngira ngo murabibona ko buri mpande zose hari ibikoresho bigiye bitandukanye dukenera mu buzima bwa buri munsi, hari n'abakiriya baje kuba babireba ngirango murabibona.

Inzu igurirwamo ibikoresho bitandukanye wakwifashisha mu rugo harimo ibikoresho bibasha gusya imbuto ndetse n'ibindi bikoresho birimo ibyo kurisha, ibyo kunywesha, ni ibikoresho byiza cyane kandi ibikoresho bigezweho usanga ahantu hose mu mahoteri.

Imikandara myiza, inkweto nziza cyane, by'amoko menshi atandukanye. Habamo inkweto z'abagabo ndetse n'iz'abagore, urabonako iziganje ni iz'abagore z'amoko menshi cyane zikozwe mu ruhu rwiza cyane, ubwoko bwinshi na amabara atandukanye ni inkweto zigura amafaranga make rwose mwaza mukihara.

Iyi ni inyubako itangirwamo ibyo kunywa bitandukanye by'amoko menshi ndetse n'ibyo kurya, aho ubona ko umuturage yaje aje gushaka icyo kunywa n'icyo kurya, aho buri muntu wese yaza akagura ubwoko butandukanye bw'ibicuruzwa birimo hano.

imodoka nziza cyane zigezweho z'ubwoko butandukanye ziparitse muri parikingi ndetse n'isoko ryiza za kijyambere ,ubona ko imiryango yose ikoreramo abantu ndetse harimo n'imiryango ifunze ikaba igiye icuruza ibintu bigiye bitandukanye ,ubona ko ni isoko ryiza rinogeye amaso rya kijyambere.

Isoko ryiza cyane isoko rya kijyambere kuri buri muturage wese ndetse na buri muturarwanda wese abasha kuba yahahiramo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, urabona ko ni isoko rifite isuku, isoko ryitaweho, isoko rifite abakiriya ,ndetse isoko ririmo inyubako igezweho, urabona ko rifite umutekano.

Isoko ryiza cyane abagenzi barimo baza bahaha, urabona ko urujya n'uruza rw'abantu mu isoko ari rwinshi isuku nziza cyane kubona ko ni isoko rifite umucyo ndetse urabona bacuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye bifunze mu mashashi aho ibintu byabo biri ku murongo.

Isoko ryagutse, ricuruzamo ibyo kunywa by'amoko menshi atandukanye, harimo amazi, amaji ndetse n'ibindi, urabona ko umukiriya urimo, arimo aragura agashyira mu kantu kabugenewe mu rwego rwo kumenya umubare w'ibyo ari butware, ubona ko ni ibintu byiza cyane.

Iduka rigurirwamo ibyo kunywa byiza by'amoko menshi atandukanye n'ibyo kurya bito bito, urabona ko ni ibintu byiza cyane harimo amoko atandukanye yo kunywa, ubona ko harimo ama enaji, inyange ndetse n'ibindi byinshi. Uramutse uje ufite inyota, waza mu iduka ukabasha kubihagurira.

Ngira ngo iyi shusho mubona hano imbere ni ishusho igaragaramo umuyobozi wa sosho securiti savisi, cyangwa se RSSB, Arimo ashyikiriza umutegarugori igihembo. Cy' amafaranga angana na miliyoni n'ibihumbi magana abiri na mirongo itanu bigaragara nk'ari ishimwe yari yakoze.

Inzu iri gutangirwamo serivisi zitandukanye zihabwa abaturage, ikigo cya ara esesibi, kizwiho gutanga mituweli ndetse n'ubundi bwishingizi ubona ko rwose abaturage bitabiriye, baje gufata zimwe muri izo serivisi, ndetse baje no kwishyura mu mituweli n'ibindi bitandukanye by'ubwishingizi harimo nka pansiyo.

Ikigo gishinzwe gutanga serivisi mu Rwanda ndetse ku muntu wese ubasha kuba yakwiyandikisha, uburyo bwo gutanga serivisi, aho abaturage babanza kunyura kuri iki kigo cya Ara esesibi mu buryo bwo kugira ngo yemererwe gutanga serivisi, abiherewe ubushobozi n'iki kigo cya Ara esesibi.

Ruzindana Fabiye urabona ko yishimye cyane rwose aho yahawe igihembo na RSSB, kingana n'amafaranga miliyoni n'ibihumbi maganabiri na mirongo itanu, yahawe nk'ishimwe. Aho iki kigo cya RSSB, gifite abaterankunga harimo nka Ejoheza ndetse na Solasi. Urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Gira ubuzima ni ikigo gishinzwe gutanga serivise zijyanye n'ubuvuzi, ubona ko hari abaturage rwose baba baje bakigana, mu isuku nziza cyane iharangwa ndetse n'ikirere cyiza cyane, kuri iki kigo cya gira ubuzima na serivise batanga zanditse ku nyubako.

Ngira ngo iyi shusho mubona hano imbere ni ishusho igaragara nk'aho ari isoko rigurirwamo inzoga zizwi ku izina rya wayini, ndetse n'andi marikeri yifashishwa n'abantu mu buryo bwo kwimara inyota. Urabona ko ari ahantu heza cyane wagurira icyo kunywa.

Isoko, isoko ryagutse, isoko ritunganyije neza cyane, isoko rya kijyambere riri ku rwego rugezweho kandi rishimishije, urabona ko harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, ibicuruzwa bifunze mu mashashi by'ubwoko bwinshi ndetse n'ibindi bikoresho twakwifashisha, harimo nk'amakaye, ibitabo, urabona ko ni ibintu byiza cyane bafite buri kimwe.

Isuko ryiza cyane ku muntu wese ubasha kuba yakwigurira buri gicuruzwa gitandukanye hano mu isoko. Urabona ko ni ibintu byiza cyane ibikoresho bigezweho ubasha kwifashisha mu buryo bwo gupfunyika ibyobashije kuba wagura urabona ni ibintu byiza cyane, Umutegarugori arimo aragura ndetse anasoma areba ko byujuje ubuziranenge.

Inzu icururizwamo ibyo kunywa n'ibyo kurya by'amoko menshi cyane ndetse bipfunyitse neza mu buryo bugezweho, butangiza ibidukikije, aho wisangiramo amoko menshi y'amata nk'uko mubibona ndetse n'amoko menshi y'ibyo kunywa arimo nka ji.

Inzu icururizwamo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa bitandukanye by'amoko menshi, urahabonamo ibyo kunywa byiza cyane, amazi ndetse n'ibindi bitandukanye, rwose iyi ni inzu umuntu uje afite icyaka, inyota abasha kwikiranura akaba yagura kimwe muri ibi.

Ngira ngo ishusho mubona ni ishusho igaragaramo abantu benshi ndetse ni isoko rigezweho rya kijyambere aba mubona bagaragara ku myenda ye y'imituku ni abakozi bakora muri iri soko ndetse abamubona bagaragara mu yindi myenda n abakiriya baje kwihahira muri iri soko ryiza rigezweho.

Isoko ryiza isoko rikeye ndetse navuga ko hari isoko ryagutse mpuzamahanga urabona ko ni isoko ririmo ibicuruzwa byiza cyane bipfunyitse neza cyane bisa neza by'amoko yose urabona ko umuturarwanda wese cyangwa se umunyamahanga wese uje kuba yahaha urabona ko nta gicuruzwa na kimwe bishoboka yaba yabura muri iri soko ni ibicuruza bifunze neza ku bwoko bwiza cyane bwinshi bw'ibicuruzwa.

Iri ni isoko rinini ryagutse abantu bakoresha bagura ibicuruzwa bitandukanye harimo ibyo kurya ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, urabona ko hari abantu baje kuba babifata mu buryo bwiza cyane.

Isoko; isoko ryiza cyane urabona ko abantu baritabiriye barimo barahaha, harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye bifunze mu mashashi mu buryo bugezweho, ubona ko n'imbere yaho bafite ibikoresho bigezweho ubasha guhaha akoresha igikoresho cyiza cyane rwose; mu buryo bwo koroshya ndetse no kuba yaha ibintu byinshi, abipfunyika, ndetse abitwara akabigeza aho yerekeje akoresheje igikoresho cyabugenewe cyagezweho.